Umuntu uri guhugura umuryango ibijyanye n'imyororokere yifashishije imfashanyigisho zirimo amafoto ndetse n'ibitabo.

Umuntu wishimye uri kuvoma amazi, yishimiye ko umugezi wamwegereye, ibi bikazamurinda kumara umwanya munini yagiye gushaka amazi.

Umuganga uri kumwe n'ababyeyi bazanye abana babo ku ivuriro kugira ngo basuzumwe harebwe ibiro bafite, mu gihe basanze ibiro byabo biri hasi babe bahabwa inyongeramirire kugira ngo ibiro byabo bizamuke.

Umuntu watwaye amajerekani menshi ajya kuvoma amazi. Bigaragara ko yishimiye ko amazi yabonetse kandi na none bigaragaza ko aho batuye, amazi kuyabona bigoranye.

Ku ivomero aho abantu baje kuvoma bitwaje ibikoresho bitandukanye higanjemo amajerekani, indobo n'amabase ibyo bikaba byifashishwa mu gukusanya amazi.

Abantu bicaye bari kungurana ibitekerezo, kugira ngo nyuma y'ibyo bitekerezo, hafatwe imyanzuro igendeye ku bitekerezo batanze.

Abanyeshuri bari gukaraba intoki ku ivomero rishya, bigaragaza ko bishimiye ko amazi yabagezeho kandi akaba ari meza, ibyo bikaba bizatuma ubuzima bwabo, burushaho kumera neza.

Umwana uri gutega amazi mu gakombe ku ivomero, wishimye bigaragaza ko yari akeneye amazi kandi amazi ni ingirakamaro ku buzima bwe.

Umuntu waje kuvoma ku ivomero rishya yitwaje amajerekani, hari n'abandi baje kureba uko iryo vomero rikora kuko ari rishya.

Abaganga bari hamwe n'umuganga mukuru bishimiyeko bamaze guhabwa amahugurwa azabafasha gukora neza akazi kabo ka buri munsi kandi n'abarwayi bakagira ubuzima bwiza buturutse ku bumenyi bahawe.

Umuganga uri gutera umuntu urukingo rw'indwara mu rwego rwo kumurinda kwandura cyangwa kwanduza abandi indwara y'icyorezo.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi biteguye gufasha abantu bahuyeho n'ibibazo cyangwa uburwayi, cyangwa na none bakaba bakoze impanuka, bakaba biteguye kubaha ubutabazi bw'ibanze.

Umwana w'umuhungu wagiye kuvoma amazi mu migezi itemba, akaba yajyanye ijerekani, ayo mazi agiye kuvoma akaba yakifashishwa mu gufumbira cyangwa se mu gukora isuku, ariko na none akaba yateza ingaruka mu gihe habayeho kuyanywa cyangwa se agakoreshwa ibindi ariko adatunganyije.

Umukobwa wicaye ahantu heza hari umwuka uhagije, akaba yishimye bigaragaza ko aho ari n'igihe arimo byose abyishimiye.

Umuntu usa nabi uri mu muhanda, wihebye, ushonje, ukeneye ubufasha yahabwa n'abandi bantu bafite ubushobozi.

Abantu bicaye bakoze uruziga. Bamwe baricaye, abandi bari hagati mu ruziga, bari gukina ikinamico. Hari ahamanitse amatangazo n'ikibaho.

Icyapa cyo kwamamaza kiriho amagambo y'ikinyarwanda ''Wihogora'', hariho n'ikindi gishushanyo gishushanyijeho intoki kiri mu ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri bafashe umuntu ufite ibibazo bitandukanye nk'uburwayi, inzara cyangwa se ihahamuka.

Umubyeyi wishimye, ufite umwana nawe wishimye, kubera ko ari muzima nta burwayi na buke afite.

Umuntu uri guhindura amenyo akuramo ayagize ikibazo cyo kumungwa ashyiramo andi meza akomeye.

Umuryango w'abantu batandatu bari guseka bigaragaza ko bishimye, guseka ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kuko bituma ubwonko bukora neza.

Umuganga uri gutera umuturage, urukingo rwa Corona, kuko igihe akingiwe, byamufasha bikamurinda kwandura, cyangwa kwanduza abandi.

Ku nzu y'ababyeyi hari abantu bari guhugurana ibyerekeye uko batanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ku babyeyi bakimara kubyara ndetse n'abana bavutse.

Inyubako y'ivuriro igizwe n'igice abarwayi bazajya bivurizamo ndetse ikagira n'ubusitani aho abarwayi bazajya baza kuruhukira.

Inyubako irimo ububiko bw'imiti, aho abarwayi baza kuyifata cyangwa kuyigura mu buryo buboroheye.

Ni isuzumero, aho umurwayi yaje kubonana na muganga kugira ngo amusuzume arebe indwara afite, yifashishije ibyuma byabugenewe mu gusuzuma.

Umuganga uri mu kazi uri kugenda ajya gutanga ubufasha ku barwayi bakeneye umuganga, ariko hari n'abandi bari kuganira ku kibazo cy'abarwayi.

Kwa muganga mu cyumba, aho abarwayi bajya mu gihe bari kubagwa, harimo ibyuma byifashishwa nk'amatara ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo hasuzumwe ko umutima ndetse n'ibindi bice by'umubiri, biri gukora neza.

Mu ivuriro aho abarwayi bazajya barwarira, hari ibikoresho uzajya wifashisha mu buzima bwa buri munsi nk'igitanda cyo kuryamaho, utubati two gushyiramo ibikoresho, amarido, inzitiramibu n'ibindi.

Ikigo cy'ivuriro kirimo inyubako zitandukanye, gifite ubusitani bwiganjemo ibiti n'indabo, gifite n'utuyira duto two kunyuramo.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho umurwayi arwarira, hari ibyuma byifashishwa mu gusuzuma niba ubuzima bwe buri ku murongo ndetse n'aho ashobora kubika ibikoresho bye yifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Kwa muganga ahashyirwa umwana ukivuka kugira ngo yitabweho n'abaganga ndetse n'umubyeyi wamubyaye amwitaho nko kumuha amashereka.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kumva imiziki ndetse afite n'amazi ku ruhande, gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko bifasha uyikora kugira umubiri mwiza kandi akagira amagara mazima.

Ibyifashishwa n'umuntu ufite umubyibuho ukabije, mu gutakaza ibiro mu gihe gito. Harimo imbuto, imboga, ibyuma byifashishwa mu gukora siporo, amazi, ndetse n'ibindi.

Umuntu uri guha undi ubuvuzi bw'ingingo, hifashishijwe kumukanda kuko butuma imitsi irushaho gukora neza.

Umukobwa w'umubikira n'undi mukobwa w'umuzungu basuye abana mu irerero, bari gukina imikino y'abana bifashishije ibikinisho bikinishwa n'abana.

Umuntu uri kwerekana imiti, ikiganza kimwe kirimo agakarito kavamo ibinini, ikindi kiganza kiri kwerekana ibinini bitatu, byari biri mu gakarito.

Amavuta y'igikakarubamba, n'umuti ukoze imitwa karubanmba, bivura indwara nk'ibiheri bifata mu maso.

Imbuto, ziganjemo, ironji, indimu, manderena. Izo mbuto, zikaba zifashishwa, mu buzima bwa buri munsi, haba mu kuzirya, cyangwa se mu kuzikoresha nk'umuti.